Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'amashuri bavuga ko ari ingenzi gukora uyu mwuga, kubera ko bibafasha kubona amafaranga yo gukemura ibibazo ndetse n'iterambere ryabo rikazamuka, kuko banasagurira isoko bagacuruza bityo bakabona n'ayo kurya mu ngo zabo.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibigori basobanura ko ari ingenzi kubihinga neza ndetse bakabifumbira, bakabikurikirana babitera umuti igihe byagize ikibazo cy'uburwayi kubera ko bibafasha kubona amafaranga yo gukemuza ibibazo ndetse na bo bagakuramo n'ibyo kurya.

hari icyumba cyabugenewe gicuruzwamo imyayi y'imbuto zigiye zitandukanye nk'intoryi, inyanya, amashu, karoti, ibitunguru, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abakora muri iki cyumba kizwi nka 'gororo' bavuga ko ari byiza kubagana kugira ngo babashe kubaha imyayi itandukanye kandi ifite ubuziranenge.

Abakora umwuga w'ubuhinzi basobanura ko ari byiza gukurikirana ibihingwa byabo, bareba ko na bukoko buriho, bakabitera umuti kubera ko bibafasha kubona umusaruro mwinshi kandi utubutse bityo bakabona amafaranga bakemuza ibibazo byabo bya buri munsi.

Umubyeyi w'umugore uri mu murima, akaba yambaye umwenda w'umweru ndetse n'igitenge, akaba afite ipombo mu mugongo, akaba arimo atera umuti ibigori, avuga ko ari byiza, gutera umuti ibigori kubera ko bimufasha kubona umusaruro utubutse.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bashishikarizwa kwita ku myaka yabo bareba ko nta dukoko twajeho bakayitera umuti bityo bikabafasha kubona umusaruro mwinshi kandi utubutse, ni byiza ko tugomba gukurikirana ibihingwa byacu tuba twahinze kugira ngo tubashe kubona umusaruro utubutse bibashe no kuduha amafaranga dukoresha mu buzima bwa buri munsi.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'imboga harimo: puwavuro, insenda ndetse na beterave, basobanura ko ari byiza gukurikirana ubuzima bw'ibihingwa byabo kugira ngo babashe kubikurikirana babitera umuti bityo umusaruro wabyo ubashe kwiyongera neza.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bashishikarizwa kwita ku myaka yabo bareba ko nta dukoko twajeho kugira ngo babashe kuyitera umuti, bityo babashe kubona umusaruro mwiza kandi utubutse. Umuhinzi wese rero ashishikarizwa kuba yagira igikoresho kizwi nk'impombo, kimufasha mu gutera umuti, kugira ngo abashe kuwukora neza kandi nta kibazo bimuteje.

Abakora umwuga w'ubuhinzi basobanura ko ari ingenzi kwita ku myaka yabo bayitera umuti igihe yajeho udukoko. Bakomeza bashishikariza buri muhinzi wese ko ari ingenzi kwita ku myaka ye kugira ngo azabashe kubona umusaruro mwiza kandi utubutse. Ni byiza rero ko tugomba kwita ku myaka yacu kugira ngo tubashe kubona umusaruro mwiza bityo binayirinde kugwingira kubera indwara zitandukanye zibasira ibihingwa.

Abakora umwuga w'uburobyi bw'amafi bavuga ko ari umwuga mwiza kubera ko ubafasha kubona amafaranga yo gukemura ibibazo byabo ndetse bakabona n'amafaranga bashyira mu bimina bityo iterambere ryabo rikazamuka kandi bakabona n'inyama zo kurya bakagira na vitaminini ikungahaye ku mafi kubera ko baba bayarya uko babishaka.

Abakora umwuga w'uburobyi bw'amafi bavuga ko ari ingenzi kubera ko bibafasha kubona amafaranga bakemuza ibibazo byabo bya buri munsi igihe bamaze kuyaroba kuko bahita bayagurisha, bakomeza bavuga ko ari ingenzi kuko babona vitamine ikungahaye ku mafi kubera ko bayarya.

Abakora ubworozi bw'amafi basobanura ko ari ingenzi kuberako bibafasha kubona amafaranga bakemuza ibibazo bitandukanye igihe bayagurishije, bakomeza bashishikariza buri muntu wese ko yagakwiye kuba yakorora amafi kubera ko bimufasha kubona vitamine ikungahaye ku mafi, bityo akabasha kugira ubuzima bwiza bikamurinda n'indwara zitandukanye ziterwa no kutarya amafi.

Abagabo babiri bagiye ku mugezi bakaba bari mu kiyaga barimo baroba amafi, impande zabo kikaba gikorotirijwe na supanete ndetse na shitingi, bavuga ko ari byiza gukora ubworozi bw'amafi ndetse no kujya kuyashaka kubera ko bibafasha kubona amafaranga igihe bayagurishije.

Abakora ubworozi bw'amatungo y'inka basobanura ko ari ingenzi kwa kuko bibafasha kubona ifumbire bafumbiza imyaka yabo. Bakomeza basobanura ko ari ingenzi kuko babona amafaranga igihe bayagurishije, ndetse bakabona n'amata baha abana babo bakagira intungamubiri zikungahaye ku mata.

Abakora umwuga w'uburobyi bw'amafi basobanura ko ari akazi keza kubera ko kabaha amafaranga ababeshejeho mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi bagakomeza basobanura ko ari byiza kuko babona intungamubiri ikungahaye ku mafi bakomeza bavuga ko ari byiza gukora umga w'uburobyi bw'amafi, kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'amafi basobanura ko ari umwuga mwiza kubera ko amafi abaha amafaranga ndetse bakaba banayarya. Ni byiza ko buri umwe wese agomba gukora umwuga w'ubworozi bw'amafi kugira abashe kwiteza imbere bityo ubuzima bwe bubashe kugenda neza. Bakomeza basobanura ko ari ingenzi kuko bagira vitamine ikungahaye ku mafi kubera ko baba bayiyororeye nta hantu bajya kuyagura ngo bibe byabahenda.

Abakora umwuga w'ubucuruzi bw'amafi bavuga ko ari umwuga mwiza kubera ko bibahereza amafaranga ya buri munsi bakemuza ibibazo byabo, bakomeza bavuga ko ari ingenzi kuko bibafasha mu buzima bwabo bakabona intungamubiri ikungahaye ku mafi kubera ko bayarya uko babishaka.

Igihingwa k'ikawa ni igihingwa kivamo umusaruro utubutse kandi kikaba gitanga amafaranga menshi. Abahinzi barashishikarizwa guhinga igihingwa k'ikawa kugira ngo babashe kubona amafaranga menshi, babashe kwiteza imbere bityo ubukene bubashe kugabanuka. Ni byiza ko tugomba gusigasira igihingwa k'ikawa aho tukibonye hose kubera ko ari ingenzi mu buzima bwacu ndetse kikaba ari n'ubukungu mu Gihugu cy'u Rwanda.

Abaturage bakora umwuga w'ubuhinzi basobanura ko umwuga bakora bawishimiye kandi ubaha amafaranga ndetse ukanabakura mu bukene, bashishikariza buri umwe wese ko yakora umwuga w'ubuhinzi kubera ko ari ingenzi mu buzima kuko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi bizamura bakiteza imbere kubera ibyo baba bahinze.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'icyayi, basobanura ko nubwo kugihinga bibavuna ndetse no kugisarura ariko ari umwuga mwiza kuko bibafasha kubona amafaranga igihe kigezeze bakakigurisha. Bakomeza bavuga ko ari ingenzi kugikorera neza kubera ko ariho umusaruro wacyo wiyongera.

Abakora umga w'ubuhinzi bw'ikawa basobanura ko ari ingenzi kubera ko bibaha amafaranga menshi atubutse kandi ikawa ikaba ivamo n'umusaruro utubutse, bashishikariza buri umwe wese ko yagakwiye guhinga ikawa kubera ko ari ingenzi kuko bibafasha kwiyizamura bakikura mu bukene.

Ingano ni igihingwa gitanga umusaruro kandi kikaba gitanga n'amafaranga igihe cyitaweho, ingano zivamo ibintu byinshi bitandukanye, nko kuzinywa mu gikoma ndetse zikaba zivamo umukati n'amakeke, ni byiza ko tugomba guharanira guhinga kino gihingwa kugira ngo tubashe kwibikaho ubukungu buvuye mu ngano.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ikawa basobanura ko ari umwuga mwiza kubera ko ubafasha kubona amafaranga yo gukemura ibibazo bitandukanye kandi bakavuga ko ari umwuga ufite umusaruro mwinshi kubera ko iyo bazihinze neza, bakaziha igitaka ndetse n'ifumbire babona umusaruro utubutse.

Abaturage basobanura ko guhabwa inge z'ikawa ari ingenzi, kuko ikawa ivamo ibintu byinshi bitandukanye kandi ikaba inabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, nko kubona amafaranga igihe bazigurishije, bikabasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye biba bibugarije.

Abantu babiri bari mu uteyemo icyayi barimo bagisoroma bafite umufuka bari gushyiramo ndetse n'udutebo bari gushyiramo icyayi bari gusoroma, bavuga ko ari byiza gukora umwuga wo guhinga icyayi kubera ko bibafasha kubona amafaranga bakemuza ibibazo byabo.

Hari imiti yabugenewe, havaho amatungo igihe yahuye n'ikibazo cy'uburwayi, abakora muri uyu mwuga w'ubuvuzi bw'amatungo bavuga ko ari byiza kubagana kugira ngo abashe kubasobanurira byinshi byimbitse bityo babone ubuvuzi bw'ibanze bw'amatungo yabo.

Hari imiti yabugenewe baha amatungo iyo yarwaye, iyo miti ikaba yiganjemo iy'ingurube, iy'inkoko, iy'inka ndetse n'iy'ihene, abacuruza imiti y'amatungo bavuga ko ari byiza kubagara kugira ngo babashe kubaha impanuro zitandukanye, bityo amatungo yabo yirinde gukomeza kurwara.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'inkoko bavuga ko ari umwuga mwiza kubera ko ubafasha kubona amafaranga bakemuza ibibazo byabo bya buri munsi ndetse n'iterambere ryabo rikiyongera. Bakabona n'intungamubiri ikungahaye ku magi ndetse n'inyama kubera ko babirya uko babishaka kuko baba babyoroye.

Hari imiti yabugenewe ihabwa amatungo igihe yahuye n'indwara zigiye zitandukanye, twavuga nk'imiti y'ingurube, imiti y'inkoko, imiti y'inka ndetse n'indi miti y'amatungo igiye itandukanye. Ni byiza ko tugomba kwegera farumasi z'amatungo kugira ngo tubashe kubaza byinshi byimbitse ku ndwara z'amatungo yacu bityo tubashe gusigasira ubuzima bwazo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti y'amatungo harimo imiti y'ihene ingurube, ndetse n'inkoko. Bavuga ko ari byiza kubagana kugira ngo babashe kubaha, inama zigiye zitandukanye kugira ngo ubuzima bw'amatungo yabo, bubashe kugenda neza ze gukomeza kurwara.

Hari imiti yababugenewe baha amatungo y'inkoko iyo yarwaye, ni byiza ko abakora umwuga w'ubworozi bw'amatungo y'inkoko bagomba kugana veterineri ubizobereyemo kugira ngo abashe kubaha inama zitandukanye zerekeranye n'indwara z'inkoko, bityo babashe kugira umusaruro utubutse uturutse mu nkoko zabo.

Hari imiti yabugenewe amatungo anywa igihe yagize ikibazo cy'uburwayi, ni byiza ko tugomba kugana farumasi, icuruza imiti y'amatungo kugira ngo amatungo yacu tubashe kuyitaho, igihe arwaye bityo tubashe kubona umusaruro utubutse kuko tuba twayiseho neza.

Icyumba cyiganjemo imiti y'amatungo igiye itandukanye, harimo imiti y'inkoko, imiti y'ingurube, imiti y'amatungo. Abakora umwuga w'ubworozi basobanurirwa ko ari ingenzi kugana kino cyumba, kugira ngo babashe guhabwa inama zigiye zitandukanye, bityo babashe kumenya ubuzima bw'amatungo ya bo aho buhagaze.

Icyumba kiganjemo imiti igiye itandukanye y'amatungo harimo imiti y'inka, imiti y'ingurube, imiti y'inkoko ndetse n'indi miti y'amatungo. Ni byiza ko aborozi bagomba kugana farumasi y'amatungo igihe amatungo yabo yahuye n'indwara kugira ngo babashe kuyavura, bityo ubuzima bw'amatungo yabo bukomeze neza.

Hari imiti yabugenewe ihabwa amatungo igihe yarwaye harimo: amatungo y'inka, ihene, ingurube, inkoko ndetse n'andi matungo yose, abacuruza iyi miti bavuga ko ari ingenzi kubagana kugira ngo babashe kubasobanurira byinshi bitandukanye bityo babahe inama babashe kubona amatungo yabo ari mazima.

Abakora umwuga w'ubuhinzi basobanura ko ari ingenzi ko abayobozi bagomba kubegera bakabereka uburyo bagomba guhinga bakoresheje uburyo bwa kijyambere, ni byiza ko abayobozi bagendanye n'iby'ubuhinzi bagomba kuza bakegera abaturage ndetse bakegera n'urubyiruko bakarwigisha uburyo rugomba guhinga kijyambere.

Abakora ubuhinzi bw'ibigori basobanura ko ari byiza kubera ko mu bigori bibaha umusaruro mwinshi kandi bikabafasha kubona ibyo kurya bya buri munsi bigiye bitandukanye, basobanura ko ibigori bivamo ibintu byinshi bitandukanye nko kubinywamo igikoma, kubiryamo kawunga, kubirya bitetse ndetse no kubiryo byokeje, ni byiza ko tugomba guhinga igihingwa cy'ibigori kugira ngo tubashe kubona umusaruro mwinshi kandi utubutse.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ingano bavuga ko ari umwuga mwiza kubera ko ingano zibaha umusaruro mwinshi kandi utubutse, bakaba babona amafaranga yo gukemuza ibibazo igihe bazigurishije kandi bikanabafasha kwamamara kubera ko ingano zivamo ibintu bitandukanye nk'imigati ndetse n'amakeke.

Abakora ubworozi bw'amatungo y'inka basobanura ko ari ingenzi kuko kuko bibafasha kubona ifumbire bafumbiza imyaka igihe cyo guhinga. Bakomeza basobanura ko ari ingenzi kuri bo kuko bibafasha kubona amafaranga bakemu ibibazo bitandukanye igihe bakennye bakaryikenuza barigurisha. Ni byiza rero uko tugomba korora inka kugira ngo tubashe kubona amafaranga dukemuza ibibazo bitandukanye ndetse tubashe no kubona amata.

Abayobozi basobanura ko ari ingenzi, kwigisha urubyiruko uburyo bagomba kwiteza imbere bakoresheje ubuhinzi kubera ko ari ingenzi kuko ubuhinzi butanga amafaranga ndetse bukanabafasha kwikura mu bukene bityo iterambere ryabo rikazamuka.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibiti basobanura ko ari ingenzi guhinga igiti cya gereveriya kubera ko kivamo ibintu byinshi bitandukanye nk'ameza, utubati, intebe ndetse n'ibitanda. Bakomeza bavuga ko atari ibyo gusa kuko niyo ugitemye ukakigurisha ubona amafaranga bityo ukabasha kwiteza imbere, ugakemura n'ibibazo bitandukanye uhura nabyo mu buzima.

Abahinzi basobanura ko ari byiza iyo abayobozi bamanutse bakaberereka uburyo bagomba guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye mu buryo bwa kijyambere bugezweho. Ni byiza ko abahinzi bagomba kwegera abayobozi babo bakabasobanurira uburyo bagomba guhinga, bityo ibihingwa byabo bikabaha umusaruro mwiza kandi wuzuye...

Abahinzi bakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibigori basobanura ko ari umwuga mwiza, kubera ko guhinga ibigori bibaha umusaruro ndetse bakabasha kubonamo amafaranga bakabasha kubonamo n'ibyo kurya bya buri munsi, bavuga ko ari byiza kubikurikirana babishyiraho ifumbire kugira ngo bibashe kugenda neza bakanabikorera isuku iyo ari yo yose ishoboka.

Abakora umwuga w'ubuhinzi basobanura ko nta kintu bitwaye gutera gereveriya mu murima kubera ko yerana n'indi myaka kubera ko gereveriye ivamo ibintu byinshi bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, bakomeza bavuga ko ari ingenzi kuyihinga kubera ko idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi mu kubona ibikoresho.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibigori bavuga ko ari umwuga mwiza kubera ko bibafasha kubona amafaranga yo gukemuza ibibazo bya buri munsi, igihe babigurishije ndetse bakabasha kubona n'ibyo kurya kubera ko babinywamo igikoma ndetse bakaba banabiryamo n'akawunga.

Umugore n'umugabo bambaye ingofero, begereye inzu ndetse bakaba begereye n'ibiti bitandukanye, bakaba barimo bagaburira inka nyinshi, bavuga ko ari byiza kugaburira amatungo, ibiryo bihagije ndetse bifite n'intungamubiri.

Igishushanyo gishushanyijeho inka ndetse n'amagambo aranga yuko aho hantu hari koperative cyangwa se ishyirahamwe ritunganya amata. Bakomeza basobanura ko ari ingenzi kubagana kuko bibafasha kubona amafaranga ababeshaho mu buzima bwa buri munsi ndetse nabo bakabasha kubona intungamubiri ikungahaye ku mata.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bavuga ko ari ingenzi gushaka ikinyabiziga kigomba kubafasha kuzamura ibyo baba bahinze kugira ngo babashe kwirinda kuvunika, bityo ubuzima bwabo bukomeze bumeze neza ndetse n'ibyo bahinga babashe kubona uko babitwara neza bidapfuye.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'insina bavuga ko ari umwuga mwiza kubera ko bibafasha kubona amafaranga bakemuza ibibazo byabo bya buri munsi ndetse bakabasha no kubona umutobe, inzoga, dore ko ibitoki bivamo ibyo byose. Bakomeza bavuga ko ari ingenzi kubihinga kubera ko bibafitiye akamaro mu buzima bwabo.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'amacunga basobanura ko ari ingenzi kubera ko bibafasha kubona amafaranga menshi igihe bayagurishije, bakomeza bashishikariza abahinzi bose ko bahinga igihingwa cy'amacunga kubera ko ari ingenzi kandi bikaba byafasha n'abana babo kubona vitamine ikungahaye ku gihingwa cy'amacunga.

Voka ni igihingwa kigira umusaruro kandi kikaba gitanga amafaranga igihe abagihinga bakigurishije. Voka ni igihingwa kivamo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amavuta, amasabune ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bakuramo. Ni byiza ko tugomba guhinga igihingwa cya voka kugira ngo tubashe kugikuramo ibintu byinshi bifatanye.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'urutoki, basobanura ko ari ingenzi kubera kuko bibafasha kubona amafaranga igihe babitemye bakabigurisha, bakomeza bavuga kandi ko ibitoki bibaha umusaruro utubutse, kubera ko babyenga bakagurisha umutobe bityo bakabona amafaranga atubutse.

Umurima wiganjemo ibihingwa bitandukanye harimo imyumbati, insina, ibigori ndetse n'amapapayi, ni byiza ko tugomba guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe kuzamura iterambere ryacu bityo tubashe kwiteza imbere bityo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibigori bavuga ko ari ingenzi guhinga ibigori kubera ko bibafasha kubona amafaranga yo gukemura ibibazo bigiye bitandukanye igihe babigurishije ndetse bakabasha no kubona ibiryo baha abana babo kubera ko babisyamo ibifu, bakabinywamo igikoma ndetse bakabiryamo n'akawunga.

Urubuto rw'amacunga ni urubuto rugira intungamubiri mu buzima bwacu igihe twaruriye, ni byiza ko tugomba gushishikara tukaruhinga kugira ngo tubashe kugira vitamine ikungahaye ku macunga, kandi tubashe no kuyakoresha neza kugirango tubashe kubona umusaruro mwinshi utubutse.

Abakora ubuhinzi bw'urutoki basobanura ko ari byiza kubera ko bibafasha kubona amafaranga igihe bagurishije ibitoki. Bakomeza basobanura ko ari ingenzi kurukorera neza kugira ngo babashe kubona umusaruro mwinshi kandi utubutse bityo igihingwa cyabo kibashe kubaha umusaruro mwiza.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibirayi basobanura ko ari ingenzi kako bivamo umusaruro utubutse kandi bikabaha n'amafaranga bakemuza ibibazo byabo bya buri munsi, bakomeza bavuga kandi ko ibirayi biribwa mu buryo butandukanye ukaba wabiryamo ifiriti cyangwa se ukabiryamo sote, bakomeza bashishikariza buri muhinzi wese ko ari byiza guhinga igihingwa cy'ibirayi kubera ko kigira umusaruro kandi kikaba kinatubukaka bityo bikabafasha kubona amafaranga menshi atubutse.

Ibisheke ni igihingwa gitanga amafaranga kandi kikaba kivamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'isukari, isukari ikaba yifashishwa mu gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'amakeke, amandazi, imigati ndetse n'ibindi, ni byiza ko tugomba gusigasira igihingwa cy'igisheke kugira ngo tubashe kukibyaza umusaruro.

Amashyamba ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko adufitiye akamaro kenshi gatandukanye, amashyamba akurura imvura, amashyamba akurura ba mukerarugendo, amashyamba avamo ibikoresho bitandukanye nk'ameza, intebe, utubati ndetse n'ibitanda. Ni byiza ko tugomba gusigasira amashyamba aho ari hose kubera ko adufitetiye akamaro kenshi mu buzima bwacu.

Amashyamba ni ingenzi mu buzima bwacu, niyo mpamvu tugomba kuyasigasira ahantu ahariho hose, amashyamba akurura imvura akurura ba mukerarugendo acumbikira inyamaswa zigiye zitandukanye kandi akavamo ibikoresho bitandukanye, harimo nk'intebe utubati ameza ndetse n'ibitanda.

Amashyamba ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko adufiteye akamaro kenshi kagiye gatandukanye. Twavuga ko amashyamba akurura ba mukerarugendo, amashyamba duhereza umwuka mwiza, amashyamba akaba akurura imvura. Amashyamba kandi avamo ibikoresho bigiye bitandukanye; twavuga nk'ameza, intebe, ibitanda ndetse n'utubati. Ni byiza ko tugomba gusigasira amashyamba aho aherereye hose tuyarinda icyayahungabanya kubera ko ari ingenzi mu buzima bwacu.

Amashyamba ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko adufasha mu buryo bugiye butandukanye, amashyamba akurura ba mukerarugendo, akurura imvura, acumbikira inyamaswa zigiye zitandukanye. Ni byiza ko tugomba kuyasigasira kubera ko havamo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'intebe, utubati, ameza ndetse n'ibitanda.

Amashyamba ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko adufasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Amashyamba aduha umwuka mwiza wo guhumeka, akurura ba mukerarugendo, abamo inyamaswa zigiye zitandukanye, avamo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe, utubati, ameza, ndetse n'ibitanda. Niyo mpamvu tugomba kuyasigasira neza, kugira ngo tubashe kuyakoresha neza igikwiriye.

Amashyamba ni ingenzi mu buzima bwacu. Niyo mpamvu tugomba kuyasigasira mu buryo ubwo aribwo bwose, tukayarinda ikintu icyo ari cyo cyose cyayahungabanya. Amashyamba akurura ba mukerarugendo, akurura imvura ndetse amashyamba avamo ibikoresho bitandukanye. Harimo: ameza, utubati ndetse n'ibitanda. Ni byiza ko tugomba kuyasigasira tuyakorera isuku kugira ngo tubashe gukomeza kuyabyaza umusaruro.

Amashyamba ni ingirakamaro mu buzima bwacu kubera ko amashyamba akurura ba mukerarugendo, amashyamba akaba akurura imvura, kandi amashyamba akaba avamo ibikoresho byinshi bitandukanye nk'ameza, utubati, intebe ndetse n'ibitanda, ni byiza ko tugomba gusigasira amashyamba aho aherereye hose kugirango abashe gukomeza kutugirira akamaro.

Amashyamba ni ingenzi mubu buzima bwacu niyo mpamvu tugomba kuyasigasira tukayarinda icyayahungabanya. Amashyamba kureba ba mukerarugendo akurura imvura acumbikira inyamaswa zigiye zitandukanye, kandi avamo ibikoresho byinshi bitandukanye nk'ameza intebe utubati ndetse n'ibitanda.

Amashyamba ni ingenzi mubuzima bwacu kubera ko dufite akamaro gatandukanye. Amashyamba akurura ba mukerarugendo, akurura imvura, tuhakuramo ibikoresho bitandukanye, biva mu biti nk'ameza intebe utubati ndetse n'ibitanda, ni byiza ko tugomba kuyasigasira aho ari hose kugira ngo tubashe kuyakuramo byinshi bitandukanye.

Igihingwa cy'ipapayi ni igihingwa kiza kuberako kigira intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye mu buzima bwa muntu. Ni byiza ko tugomba kumenya agaciro k'ubuzima bwacu tukarya imbuto zitandukanye harimo n'ipapayi ndetse n'abahinzi bagashishikarizwa kugihinga kugira ngo babashe kubona amafaranga bityo buri umwe wese abashe kubona iterambere ryiwe.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'imboga harimo sarade, sereri, puwavuro, insenda, amashu, basobanura ko ari byiza kuzivomerera izo mboga kugira ngo babashe kubona umusaruro utubutse bityo kwizigama kwabo kuzamuke ndetse babone n'amafaranga abeshejeho umuryango wabo.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'igihingwa cyitwa tirinosoli cyangwa se igihobi mu ndimi z'amahanga, basobanura ko ari ingenzi mu buzima bwabo kubera ko kibaha amafaranga, kikabaha n'umusaruro mwinshi igihe bacyitayeho, maze bakabasha kwizamura bikura mu bukene, basobanura ko ari byiza kuko banakinywamo isosi, bityo bakabona ibyokurya bya buri munsi.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'amashu basobanura ko ari ingenzi kubera ko bibafasha kubona amafaranga menshi bakemuza ibibazo byabo, igihe bayagurishije kandi bakomeza bavuga ko agira umusaruro bagashishikariza mu gihe ubuhinzi wese ko yagakwiye guhinga igihingwa cy'amashu kugira ngo abashe kwizamura maze yiteze imbere.

Avoka ni nziza kubera ko igira amafaranga igihe bayigurishije kandi tukaba tunayirya, ikaba ivamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye: nk'isabune, amavuta, ndetse n'ibindi. Ni byiza ko tugomba gushishikarizwa guhinga voka kugirango ngo tubashe kubona ibikoresho byinshi bitandukanye biva mu gihingwa cya avoka.

Ntibikiri ngombwa ko tugomba gufata amabase n'indobo tujya kuvomere imyaka yacu kubera ko hari imashini zabugenewe zigomba kuvomera zikageza amazi mu nguni zose z'imirima, ni ibyiza ko izi mashini tugomba kuzimenya kugira ngo buri muhinzi wese abashe kuvomerera neza imyaka y'iwe, bityo abashe kubona umusaruro mwinshi kandi utubutse.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bavuga ko ari ingenzivomerera imyaka yabo kubera ko bituma imyaka yabo yera neza kandi bakabona umusaruro utubutse kubera kuba bayitayeho, bayiha amazi, bityo ikamera neza, bakabasha kubona umusaruro uri hejuru.

Ntibikiri ngombwa ko tugomba gufata amabase n'indogo tujya kuvomera imyaka yacu, kubera ko hari imashini zabugenewe zigomba kuvomerera imyaka yacu, ni byiza ko buri umwe wese ukora umwuga w'ubuhinzi agomba kumenya uko izi mashini zikora kugira ngo bimufashe kuvomerera imyaka yiwe maze amazi abashe kugera mu mpande zose z'umurima, bityo umusaruro wiwe ubashe kwiyongera.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bavuga ko ari ingenzi kuba barashyiriweho uburyo bwiza bwo kuvomereza imashini zabugenewe, kubera ko bibafasha kuvomerera impande zose z'umurima bityo ibihingwa byabo bikamera neza bakabasha kubona umusaruro utubutse.

Ntibikiri ngombwa ko dufata amase n'indobo tujya kuvomera imyaka yacu, kubera ko haje imashini zabugenewe zikora aka kazi. Ni byiza ko izi mashini twese tuzisobanukirwa, kugira ngo tubashe kuzikoresha, bityo imyaka yacu mu gihe cyo kuyivomerera igerweho n'amazi mu nguni zose z'umurima. Buri muhinzi wese arashishikarizwa kumenya iyi mashini, kubera ko izamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, bikanamurinda kwirirwa yongera avunika, ajya kuvomerereza ibindi bikoresho.

Abakora umwuga w'ubuhinzi, basobanura ko ari ingenzi kwita ku myaka yabo bayivomera, kugira ngo babashe kubona umusaruro utubutse, bityo babashe kubona amafaranga bakoresha ibibazo byabo, bigiye bitandukanye, ubuzima bwabo bubashe kugenda neza nta kibazo bafite.

Abana batatu barimo bavomera bakaba bafite Rozwari, bakaba barimo bavomera ibihingwa bitandukanye harimo salade, ndetse n'ubutunguru. Bakaba bakikijwe, n'urubingo ndetse n'amasina n'ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye.

Abakora umwuga w'ubuhinzi basobanura ko boroherejwe mu guhabwa imashini zabugenewe mu kuvomerera imyaka yabo, bakomeza bavuga ko ari ingenzi kumenya iyi mashini uko ikora kugira ngo buri muhinzi wese abashe kuba yayikoresha bityo imyaka y'iwe ibashe kugira ubuzima bwiza.

Hari imashini zabugenewe zifashishwa mu kuvomerara imyaka yacu maze amazi akagera mu mpande zose z'umurima, bityo ibihingwa byacu bikabasha kugira ubuzima bwiza kubera ko biba byabonye amazi ahagije, ni byiza ko buri muhinzi wese agomba kumenya ubu buryo bwashyizweho kugira ngo abashe kubukoresha bityo n'imvune zo gufata amabase n'indobo ajya kuvomera zigabanuke.

Abakora umwuga w'ubuhinzi, bavuga ko bashyiriweho uburyo bwa kizungu bwo kuvomerara imyaka yabo, kubera ko bibafasha kuvomerera neza amazi akagera mu mpande zose z'imirimi. Ni byiza kumenya ubu buryo uburyo bukora, kugira ngo buri muhinzi wese abashe kubukoresha.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bavuga ko bashyiriyeho uburyo bwiza bwo kuvomera bakoresheje imashini, bavuga ko ari ingenzi kubera ko bibafasha kugeza amazi ahantu hose, bityo imbuto zabo zikabasha gukura, bakabasha kubona umusaruro utubutse bavana muri iyo myaka baba bahinzi.

Itsinda ry'abagabo bambaye ibisarubeti by'iniforomo ndetse bakaba bafite na hedi fone mu mutwe n'udutambaro mu mutwe. Bavuga ko ari byiza gukora ubukangurambaga mu baturage kugira babashe kubaha inama zitandukanye.

Abakora umwuga w'ubuhinzi, basobanura ko ari ingenzi kuvomerera imyaka yabo kugira ngo ibashe kugira ubuzima bwiza bityo babashe kugira umusaruro uhagije. Ni byiza ko tugomba kwita ku myaka yacu tuyivomerera, tuyiha amazi ahagije kugira ngo tubashe kubona umusaruro utubutse.

Abakora umwuga w'ubuhinzi basobanura ko ari ingenzi kwita ku myaka yabo bayivomera bakayiha amazi ahagije kugira ngo umusaruro w'ibihingwa byabo ubashe kwiyongera. Ni byiza ko tugomba kumenya agaciro k'ibihingwa tuba twahinze, maze tukabyitaho tukabasha kubona umusaruro uhagije.

Kugira imisozi ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko iba iriho ibiti bigiye bitandukanye byiganjemo iby'amashyamba ndetse n'ibindi by'ubundi bwoko. Tugomba kuyicira amatarasi y'indinganire kugira isuri itaza ikangiriza ibyo biti biteyeho.

Imisozi iriho ibiti bitandukanye byiganjemo amashyamba. Iyo misozi ikaba iciyeho amaterasi y'indinganire. Hakaba hubatseho amazu menshi agiye atandukanye. Bavuga ko ari byiza gufata neza imisozi kubera ko iba iriho ibikorwaremezo byinshi.

Imisozi iba igizwe n'ibimera bitandukanye byiganjemo amashyamba akurura ba mukerarugendo, tukaba tuyakuramo ibikoresho bitandukanye nk'ameza, intebe, utubati, ibitanda. Ni byiza rero ko iyi misozi tugomba kuiyisigasira aho iri hose, tukaba tugomba kuhamenya kuko ikurura ba mukerarugendo kandi ikanadufasha kwinjiza amafaranga avuye muri abo ba mukerarugendo.

Imisozi iba yiganjemo ibiti by'amoko bigiye bitandukanye harimo n'amashyamba, amashyamba rero ni m tugomba kuyasigasira aho aherereye hose haba aho bayateye ndetse n'aho yameze ku misozi kubera ko adufitiye akamaro kenshi kagiye gatandukanye mu buzima bwacu.

Imisozi iba yiganjeho ibiti by'amoko agiye atandukanye harimo amashyamba, ibiti by'avaka, ibiti by'imiti gakondo, ni byiza ko tugomba gusigasira imisozi yacu kubera ko idufitiye akamaro gatandukanye, ikaba ikurura ba mukerarugendo ndetse ikaba ibamo n'inyamanswa nyinshi zitandukanye.

Imisozi iba yiganjemo ibiti bigiye bitandukanye by'amoko agiye atandukanye harimo n'amashyamba. Imisozi kandi ikunze kuba inyamaswa zigiye zitandukanye. Ni byiza ko tugomba kuyifata neza kubera ko i ikurura na ba mukerarugendo, kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bw'ibiremwa bibamo.

Imisozi ibi iriho y'ibiti bigiye bitandukanye nk'amashyamba ndetse n'ibindi, hakaba hacumbikamo n'inyamaswa zigiye zitandukanye, habariho amazu kubera ko haba hatuye abantu, ni byiza rero ko tugomba gusigasira imisozi kuko ibicumbikiye ibinyabuzima byinshi.

Ku misozi haba higanje ibiti bigiye bitandukanye, higanjemo ibiti by'amashyamba, iby'amapera, inya avoka ndetse hakaba hatuye n'abantu. Ni byiza ko hagomba kuba hari abantu kugira ngo babashe gusigasira ibyo biti ndetse n'inyamaswa ziba mu misozi.

Imisozi iba yiganjemo ibiti bigiye bitandukanye harimo amashyamba, ibiti by'imyembe, ibiti by'amapera ndetse n'ibiti bya avoka, hakaba haba hatuye n'abantu, ni byiza ko tugomba gusigasira imisozi yacu kubera ko ikurura na ba mukerarugendo.

Imisozi iba igizwe n'ibiti bigiye bitandukanye aho habamo n'inyamaswa zigiye zitandukanye, ni byiza ko tugomba gusigasira amashyamba ndetse n'imisozi kubera ko habamo ibinyabuzima byinshi bitandukanye bidafite aho kuba bityo bigahitamo kujya kuba mu misozi.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'ingurube bavuga ko ari ubworozi bwororoka vuba kandi bukabaha amafaranga igihe bazigurishije bagakemura ibibazo byabo bigiye bitandukanye kandi bakaba babona n'ifumbire yo gufumbiza imyaka yabo igihe barimo bahinga.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'amatungo y'inkoko, basobanura ko ari ingenzi kubera ko inkoko zibahereza amafaranga mu buryo butandukanye, babona amafaranga igihe bazigurishije ndetse bagasobanura ko babona amafaranga igihe bagurishije amagi ziba zateye.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'amatungo y'ihene bavuga ko ari umwuga mwiza kubera ko bibafasha mu buryo butandukanye nko kubona ifumbire bafumbiza imyaka yabo igihe cyo guhinga ndetse no kubona amafaranga, bakayakemuza ibibazo bitandukanye bityo bakabasha kwiteza imbere.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'amatungo y'ihene, basobanura ko ari ubworozi bwiza, kubera ko bubafasha kubona ifumbire yo gufumbiza imyaka yabo igihe bahinze, ndetse bakabona n'amafaranga yo gukemura ibibazo byabo igihe bayigurishije, bityo ubuzima bwabo bukagenda neza.

Inka iryamye mu kiraro, cyubakishije ibiti, iruhande rwayo hakaba hari ibyatsi, ikaba irimo irya, abakora umwuga w'ubworozi bavuga ko ari byiza, kugaburira amatungo yabo ibyatsi byiza bifite intungamubiri kugira ngo babashe kubona umusaruro wazo.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'inkoko basobanura ko ari byiza kubera ko inkoko zibaha umusaruro mwinshi kandi utubutse, bikabaha n'amafaranga yo gukemura ibibazo bigiye bitandukanye igihe bazigurishije, bakomeza basobanura ko ari ingenzi kuko zibaha amagi yo guha abana babo, bakagira intungamubiri ikungahaye ku magi.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'amatungo higanjemo inka basobanura ko ari ingenzi korora itungo ry'inka kubera ko bibafasha kubona ifumbire bafumbiza imyaka yabo igihe cyo guhinga. Bakomeza bavuga ko ari ingenzi kubera ko banabona umukamo uhagije bakabasha kunywa amata bakagira intungamubiri ikungahaye ku mata.

Abakora ubworozi bw'amatungo y'inka basobanura ko ari ingenzi mu buzima bwabo kuko bibafasha kubona ifumbire bafumbize igihe barimo bahinga ndetse bikanabafasha no kubona amata atubutse baha abana babo, bakomeza bashishikariza buri muturage wese ko ari ingenzi kuba yakoroye itungo ry'inka kugira ngo abashe kubona amafaranga acyemuza ibibazo byiwe bitandukanye bityo abashe kwikura mu bukene.

Abakora ubworozi bw'amatungo y'inka, bavuga ko ari ingenzi korora amatungo y'inka ndetse bakayafata neza, bayatunganyiriza aho agomba kuba heza, bakayaha n'ibyatsi byiza kugira ngo abashe kugira umukamo n'umusaruro utubutse.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'amatungo y'inka basobanura ko ari ingenzi korora inka kubera ko bibafasha kubona amafaranga igihe bazigurishije ndetse bikanabafasha kubona ifumbire yo gufumbiza imyaka yabo maze ikera neza, bakomeza bavuga ko ari ingenzi kuko inka zibaha n'umukamo uhagije bityo bakagira intungamubiri zikungahaye ku mata.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'inkoko basobanura ko ari ubworozi bugira umusaruro kandi bukaba bunabafasha gukemura ibibazo byabo bya buri munsi igihe bazifashe bakazigurisha cyangwa se igihe bafashe amagi zateye bakayajyana ku isoko, bakomeza basobanura ko ari ingenzi kuko bagira vitamine zikungahaye ku nyama ndetse no ku magi.

Umukumbi w'ihene wiganjemo ihene z'umweru iz'umukara ndetse n'izi'ikigina, bavuga ko ari byiza korora ihene kubera ko bibafasha kubona ifumbire yo gufumbiza imyaka yabo, igihe bari guhinga ndetse bakabona n'amafaranga, igihe bazigurishije.

Abakora ubworozi bw'amatungo y'inka basobanura ko ari ingenzi kubera kuko bibafasha kubona ifumbire bafumbiza imyaka yabo igihe cyo guhinga, bakomeza bavuga ko ari ingenzi kuko niyo bayagurishije babona amafaranga menshi bakemuza ibibazo bitandukanye bahura nabyo mu buzima, ni byiza ko tugomba korora amatungo y'inka kugira ngo tubashe kubona byinshi biyavuyeho.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'amatungo y'inka basobanura ko ari ingenzi kuko bibafasha kubona ifumbire bafumbiza imyaka yabo, basobanura ko ari byiza kuko bibaha amafaranga igihe bazigurishije ndetse bakabona n'amata yo guha abana babo, bakagira vitamini ikungahaye, ku kubona amata ahagije.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'amatungo y'inka basobanura ko ari ingenzi kuko amatungo y'inka yororoka ndetse akabafasha no kubona ifumbire bafumbiza imyaka yabo igihe cyo guhinga, bakomeza bavuga ko ari ingenzi kuko banabona umukamo bakabona amata ahagije yo guha abana babo bakagira intungamubiri zikungahaye mu kunywa amata.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'inkoko bavuga ko ari umwuga mwiza kubera ko wororoka vuba kandi bakabona ifumbire mu gihe gitoya bafumbiza imyaka yabo igihe cyo guhinga ndetse bakabona n'inintungamubiri zikungahaye ku magi no ku nyama kubera ko babirya uko bashaka.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'ingurube basobanura ko ari ingenzi kuberaka ingurube yororoka vuba kandi ikaba itanga amafaranga menshi. Bashishikariza buri mworozi wese ko yagakwiye korora itungo ry'ingurube, kubera ko ritanga amafaranga ushobora gukemura ibibazo byawe bityo ukikura mu bukene kandi ukabaho neza nta kibazo ufite.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'amatungo y'ingurube, bavuga ko ari ubworozi bwororoka vuba kandi bukabaha n'ifumbire yo gufumbiza imyaka yabo igihe cyo guhinga. Bavuga ko ari ingenzi kuri bo kuko banazigurisha bakabona amafaranga yo gukemuza ibibazo byabo, bityo bakabasha kwikura mu bukene.

Abakora umwuga w'ubworozi bw'amatungo y'inka basobanura ko ari ubworozi bwiza kandi bukaba bubafasha mu buryo butandukanye, nko kubona ifumbire bafumbiza imyaka yabo ikabasha kwera neza ndetse no kuba babona amafaranga igihe barifashe bakarigurisha, bakabasha gukemura ibibazo bitandukanye.

Abakora ubworozi bw'amatungo y'ingurube basobanura ko ari byiza kubera ko ingurube zibungura amafaranga menshi kandi zikaba zororoka vuba, bakomeza basobanura ko ari byiza kuyakorera isuku kugira ngo abashe kuba ahantu heza hatunganye bityo umusaruro wayo ubashe kwiyongera.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibihobe basobanura ko ari ubuhinzi bubaha umusaruro mwinshi kubera ko ibihobe bigira umusaruro mwinshi, bakomeza basobanura ko bibaha n'amafaranga bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi bakemura ibibazo kubera ko babifata bakabitunganya bakabijyana ku masoko bityo bakabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo ni ubuhinzi bugira umusaruro mwinshi kandi utubutse kubera ko iyo wabifumbiye neza bigira umusaruro mwiza, ni byiza ko tugomba kubifata tukabigirira isuku, tubihungira, tubitera ingwa kugira ngo tubiririnde kwinjirwa n'impungu bityo tubashe kubona n'imbuto tuzakoresha ikindi gihe cyo guhinga kigeze.

Abaganga b'amatungo bazwi nk'abaveterineri, bari kuvura itungo, bakaba bambaye ibikoresho by'akazi, harimo itaburiya, agapfukamunwa n'ingofero yo mu mutwe, bakaba barimo bavura itungo ry'umukecuru, bafite ibikoresho bitandukanye, harimo nk'urushinge.

Abakora ubuvuzi bw'amatungo bavuga ko ari byiza kwambara ibikoresho byabugenewe igihe bari mu kazi kubera ko bibarinda kwandura indwara zitandukanye zituruka muri ayo matungo, abakora umwuga w'ubuvuzi bw'amatungo bavuga ko ari ingenzi kubera ko bibafasha kubona amafaranga bakemuza ibibazo byabo bya buri munsi.

Abakora ubuvuzi bw'amatungo y'inka basobanura ko ari ingenzi kwita ku matungo kubera ko ari ko kazi kabo kugira ngo babashe kurokora amatungo y'abaturage, ni byiza ko abaturage bagomba kwegera abahanga mu bijyendanye n'ubuvuzi bw'amatungo kugira ngo babashe kubaha inama zitandukanye bityo ubuzima bw'amatungo yabo bubashe kugenda neza.

Hari imiti yabugenewe ihabwa amatungo kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza igihe yahuye n’uburwayi. Abahanga mu bigendanye n'ubuvuzi bw'amatungo basobanurira abakora ubworozi ko ari ingenzi kubagana kugira ngo bahabwe inama zitandukanye, bityo ubuzima bw'amatungo yabo bubashe kugenda neza.

Abakora umwuga w'ubuvuzi bw'amatungo bashishikariza aborozi kwita ku matungo yabo kugira ngo babashe kuyarokora ari mazima bityo babashe kubona umusaruro wayo, ni byiza ko tugomba gukurikirana ubuzima bw'amatungo yacu duhamagara abaganga babugenewe, kugira babashe kuduha inama ndetse tubashe no kubona byinshi bitandukanye kuri ayo matungo yacu bizatugirira akamaro.

Abakora ubuvuzi bw'amatungo, bazwi nk'abaveterineri basobanura ko ari ingenzi kurya inyama zapimwe kugira ngo babanze kureba niba nta kibazo cyahuye nazo bityo ubuzima bw'abaziriye, bubashe kugenda neza, birinda indwara zitandukanye, zituruka mu nyama zitapimwa.

Abakora umwuga wo kwita ku buvuzi bw'amatungo bashishikariza aborozi ko ari ingenzi kugira ngo babashe kwita ku matungo yabo babasobanuza byinshi bitandukanye byerekeranye n'indwara zifata amatungo, ni byiza ko aborozi bagomba kugana ababishinzwe kugira babashe kubaha inama zigiye zitandukanye ndetse n'igihe amatungo yabo yarwaye babashe kubaha imiti ikiza ayo matungo.

Abaganga mu bigendanye n'ubuvuzi bw'amatungo baba bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gusuzuma amatungo neza, twavuga nk'inshinge bazitera, imiti bayiha igihe bayisanzemo uburwayi runaka, abakora umwuga w'ubworozi bw'amatungo basobanurirwa ko ari ingenzi kwitabira ndetse no kumenya ubuzima bw'amatungo yabo kugira ngo babashe kubusigasira.

Abakora ubworozi bw'amatungo y'inka basobanura ko ari ingenzizi kuko bibafasha kubona ifumbire bafumbiza imyaka yabo. Bakomeza bavuga ko ari byiza kuko iyo bayigurishije babonamo amafaranga menshi kandi atubutse, bakabona n'umukamo mwinshi bahereza abana babo bityo bakarinda kurwara indwara zitandukanye.

Mu mazi habamo ibinyabuzima byinshi bigiye bitandukanye niyo mpamvu tugomba gusigasira amazi aho ari hose kuko haba harimo ibinyabuzima bibamo mbese bikabasha kugira ubuzima bwiza kubera ko bibamo aho ngaho mu mazi, buri wese afite inshingano zo gusigasira amazi kugira ngo abashe gusigasira ubuzima bw'inyamaswa ziba mu mazi.

Abakora ubworozi bw'amatungo y'inka basobanura ko ari ingenzi kwa kubera ko bibafasha kubona amafaranga yo gukemura ibibazo bitandukanye igihe bayagurishije, bakomeza bashishikariza buri muntu wese ko ari ingenzi korora itungo ry'inka kuko bimufasha kubona amata yo guha abana bityo bakagira intungamubiri ikungahaye ku mata.

Inyamaswa z'imbwa ni inyamaswa ziba ku gasozi ndetse zikaba ziba no mu ngo z'abantu. Abazorora bavuga ko ari byiza gusigasira ubuzima bwazo kubera ko zibafasha kurinda urugo, ingo zabo ntibagire icyo bazitwara cyangwa se abajura ngo babe baza bazivogere.

Inyamaswa ifite amabara y'umweru umuhondo ndetse n'umukara, ikaba ihagaze hejuru y'umusozi ku mabuye, ikaba yegereye amashyamba ni byiza ko tugomba gusigasira imisozi ndetse n'inyamaswa ziba ziri ku musozi, kubera ko nazo ziba zikeneye ubuzima.

Hari inyamaswa ziba ku gasozi harimo n'imbwa, ni byiza ko tugomba gusigasira ubuzima bw'ibinyamaswa biba ku gasozi kugira ngo bibashe kubaho neza bityo ubuzima bwabyo nabwo bugendade neza kugira ngo zitabaho nabi kandi bidakwiriye.